Kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba gukoresha amafoto, ibishushanyo ndetse n'utundi tuntu twiza dushobora gutuma abana bishima ndetse bakumva bashaka no kuba batumenya.

Mu mashuri y'inshuke bakunda kwigisha abana ariko bifashishije amabara cyangwa se amashusho kugira ngo abana barusheho kuba bagira amatsiko cyangwa se bakurikire amasomo.

Amashuri y'inshuke ni ingenzi cyane kubera yuko atuma abana bamenya gutandukanya ibintu n'ibindi, ikindi kandi ni byiza kubigisha hifashishijwe amafoto ndetse n'amashusho kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibintu bitandukanye.

Amashuri y'inshuke abafite inyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'ibikoresho bishobora gufasha abana kwishima no kunezererwa ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri.

Uburezi bw'abana b'inshuke ni ingenzi cyane. Aho usanga abana batangira gutinyuka bagatangira kwiga kubana n'abandi, bakamenya kubara gusoma no kwandika ndetse bagatangira no kugenda bamenya gutandukanya ikintu n'ikindi.

Amashuri y'inshuke agira umumaro munini cyane mu gutuma abana basobanukirwa ibintu bitandukanye, aho abarimu bigishamo bakoresha amafoto bakanakoresha n'ibishushanyo kugira ngo abana barusheho gusobanukirwa ibintu.

Kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba ubuhanga, aho usanga bisaba gukoresha amashusho, amafoto n'ibishushanyo ndetse n'ibikoresho bitandukanye hagamijwe gusobanurira neza umwana akarushaho kumenya gutandukanya ikintu n'ikindi.

Ababyeyi bagomba kugira uruhare mu kujyana abana babo mu mashuri y'inshuke. Ibyongibyo bizafasha abana gukura neza batangire kandi kumenya gutandukanya ibintu n'ibindi, ndetse n'uburyo babanamo n'abandi.

Amashuri y'inshuke ni ingenzi cyane. Ni yo mpamvu abayigishamo, bakwiriye kuba barabihuguriwe. Ni byiza ko abigishamo, bakoresha amafoto ndetse n'ibishushanyo, kugira ngo basobanurire abana neza ibintu, barusheho kubyumva ndetse no kubitandukanya.

Abana biga mu mashuri y'inshuke baba bakiri bato cyane, ni yo mpamvu baba bagomba kwitabwaho cyane kandi bakaganirizwa, mu mashuri y'inshuke ni ho bigira kubana n'abandi, bakaba bahigira kumenya kuvuga ndetse n'uburyo bashobora kubaho bishimye.

Uburezi bw'abana b'inshuke ni ingenzi cyane. Aho abana barererwa kandi bakigishwa ibintu byinshi bitandukanye bityo bikabafasha kugenda basobanukirwa. Ikindi kandi bagenda basobanurirwa ibintu byinshi bitandukanye bakabahereza n'uburere bwiza bishobora gutuma bakura neza bafite ubwenge kandi bubahawa.

Amashuri y'inshuke ni ingenzi cyane aho usanga abarimu bayigishamo bifashisha ibintu bigaragara kugira ngo abana babashe kugira icyo batora igihe barimo biga ni ingenzi cyane gukoresha ingero zifatika cyangwa se ibintu bifatika kugira ngo umwana amenye neza icyo ushaka kumubwira.

Uburezi bw'abana b'inshuke ni ingenzi cyane kubera yuko bifasha umwana gutangira kwiga kubanaana n'abantu, agatangira kumenya gusobanukirwa ndetse no gutandukanya ibintu bityo bikaba byazamufasha kuziga neza mu mashuri abanza no mu yisumbuye.

Kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba ubuhanga. Aho usanga ayo mashuri akunda kuba ashushanyijemo ibishushanyo, harimo n'amafoto atandukanye, bituma abana bamenya gutandukanya ibintu n'ibindi.

Amashuri y'incuke ni ingenzi cyane. Ni ngombwa yuko abayigishamo bagomba kuba barabihuguriwe. Ariko kandi abana baba bagomba kwigishwa hakoreshejwe amafoto ndetse n'ibishushanyo kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibyo barimo biga.

Kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba kugira ngo ube warabihuguriwe. Aho ukoresha: amashusho, ibishushanyo, ugenda usobanurira umwana bityo akarushaho kumenya gutandukanya ibintu, na we ubwe akaba yamenya gushushanya.

Mu mashuri y'inshuke abana bigamo b'abigisha bifashishije ibintu bifatika kugira ngo abana barusheho kumenya gutandukanya ibintu n'ibindi ndetse barusheho no gufunguka mu mutwe.

Mu mashuri y'inshuke ni ingenzi cyane gukoresha ibishushanyo cyangwa se amafoto, kugira ngo abana bigamo barusheho kugenda basobanukirwa gutandukanya ibintu n'ibindi, ndetse barusheho no kuba bamenya nko gusoma ibintu bimwe na bimwe.

Kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba gukoresha amafoto ndetse n'ibishushanyo kugira ngo abana barusheho kumenya gusobanukirwa gutandukanya ibintu, ikindi kandi ni byiza yuko abana na bo ubwabo ushobora kuba wabigisha kuba bashushanya kugira ngo barusheho kunguka ubumenyi.

Kwigisha mu mashuri y'inshuke bisaba ubuhanga. Niyo mpamvu abigishamo bagomba kuba barabihuguriwe. Abana b'incuke kandi bagomba kwigishwa hakoreshejwe amashusho kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza, aho nabo ubwabo bashobora kuba bakwigishwa kuba bashushanya utuntu dutandukanye.

Mu mashuri abanza higamo abana benshi cyane, ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda igomba gushyira imbaraga mu kubaka ibyumba by'amashuri byinshi kugira ngo abana bage barushaho kwiga neza ariko kandi nta bucucike buri mu byumba.

Ubumenyi bw'isi ni ingenzi ku banyeshuri bose, niyo mpamvu usanga umunyeshuri agitangira mu mashuri abanza batangira kumwigisha neza imigabane igize Isi ndetse n'aho iherereye, mu buryo bwo kugira ngo amenye uko isi iteye ndetse n'aho ibintu ibyo aribyo byose biherereye n'aho yabishakira.

Kwigisha mu mashuri abanza bisaba ibikoresho byinshi bitandukanye harimo nk'ibishushanyo, amafoto n'ibindi bikoresho bituma umwana arushaho gusobanukirwa ibintu neza kandi ibyo bintu bikaba bifite amabara atandukanye kugira ngo n'umwana amenye gutandukanya ayo mabara.

Amashuri abanza ni ingenzi cyane, aho usanga abarimu bigishamo, bigisha abana nko kuba bamenya gutandukanya amabara, ikindi kandi akaba ari byiza yuko babyiga, hifashishijwe amafoto n'ibishushanyo n'ibindi bikoresho bitandukanye kugira ngo abana barusheho gusobanukirwa.

Kwigisha mu mashuri abanza bisaba ubuhanga, aho usanga bifashisha amafoto ndetse n'ibishushanyo nk'igihe bari kwiga inyajwi n'ingombajwi, bakaba bakwifashisha udushushanyo cyangwa se amafoto, byerekana uburyo izo nyuguti n'inyajwi byandikwamo.

Amashuri abanza nigenzi cyane, kuko afasha umwana kuba yahumuka mu mutwe agatangira kumenya gusoma, kubara, ndetse no kwandika, ibyo ngibyo bikaba intangiriro yo kwiga kwiwe, ku buryo agenda asobanukirwa ibintu byose, akazagera mu mashuri makuru yaramenye ibintu ibyo aribyo byose, ndetse n'uko bimeze.

Amashuri abanza ni ingenzi cyane. Nmpamvu abana bose baba bagomba kuyitabira. Aho batangira kumenya kubara, gukina n'abandi ndetse bakaba bahigira kubara, gusoma no kwandika bizabafasha no kuziga andi mashuri ari imbere.

Kwigisha mu mashuri abanza bisaba ubuhanga. Niyo mpamvu abarimu bigishamo baba bagomba kubihugurirwa. Ikindi kandi bigishamo bifashishije ibishushanyo, amafoto kugira ngo abana barusheho kumva neza, ibyo barimo biga.

Kwigisha mu mashuri abanza bisaba kuba warabihuguriwe, aho usanga biga kubara, gusoma no kwandika ariko kandi hakifashishwa cyane ibishushanyo n'amafoto kugira ngo barusheho kumenya neza ibyo bari kwiga, biborohere no kubyibuka.

Amashuri abanza aba agomba kubakwa neza kubera yuko usanga aba adakinze, ashakakajwe amabati ashaje, bishobora gutuma abana bayigiramo bahuriramo n'impanuka cyangwa se bakanyagirirwamo n'imvura mu gihe cy'imvura cyangwa izuba rikabiciramo, igihe ari ryinshi.

Amashuri abanza ni ingenzi cyane kubera yuko abana bamenya kubara, gusoma no kwandika. Ikindi kandi abarimu bigisha mu mashuri abanza bigisha bifashishije ibintu bifatika nk'amafoto ndetse n'ibishushanyo kugira ngo abana barusheho gusobanukirwa neza.

Amashuri abanza ni ingenzi cyane kubera yuko afasha umwana kumenya gusoma, kwandika no kubara bikanamufungura mu mutwe akagenda asobanukirwa ibintu byinshi, akamenya indimi zitandukanye, akamenya kuba yatandukanya ikintu n'ikindi bityo agakura neza azi ibintu byinshi kandi bitandukanye.

Uburezi bw'amashuri abanza ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu bugomba gukorwa neza hifashishijwe amashusho ndetse n'ibindi bishobora gutuma umwana yibuka neza ibyo yize. Ikindi kandi niho umwana amenyera kubara, gusoma ndetse no kwandika. Iyo umwana atagize icyo amenya mu mashuri abanza, ubwo ngubwo biba bipfuye. Ni ngombwa ko yigishwa neza.

Kwigisha mu mashuri abanza, bisaba kuba warabihuguriwe kubera yuko abana baba bakiri bato, baba bagomba kwigishwa kubara, gusoma no kwandika ariko akenshi hakifashishwa ibishushanyo n'amafoto.

Kwigisha mu mashuri abanza bisaba ubuhanga, kubera yuko usanga kwigishamo bisaba gukoresha ingero zifatika cyane cyane nk'amashusho, amafoto ndetse n'ibindi, hagamijwe kugira ngo umwana yumve neza kandi arebe ibintu abisobanure.

Abana biga mu mashuri abanza baba bakiri bato niyo mpamvu abarimu babigisha bagomba kuba barabihuguriwe kugira ngo babiteho babigishe kugira isuku, kubana n'abandi, kubara, gusoma, no kwandika ndetse babatoze n'ikinyabupfura.

Ni ingenzi cyane gushyira imbaraga mu kubaka amashuri abanza, kubera yuko u Rwanda rwacu twifuza yuko abana bacu bajijuka, bakamenya gusoma, kubara no kwandika. Bityo rero, niyo mpamvu ari ngombwa kubaka ibyumba by'amashuri bihagije, kugira ngo abana bige neza.

Amashuri abanza yigamo abana bakiri bato cyane ni yo mpamvu usanga abarimu bigishamo bakunda gukoresha ibishushanyo ndetse n'amafoto kugira ngo abana barusheho kumenya gusoma no kwandika no kubara.

Abana biga mu mashuri abanza baba bagomba kwigishwa uburyo bakoresha amaboko yabo nko mu kuba baca imirongo mu makaye yabo, mu kuba bashushanya bifashishije amakereyo, amakaramu ndetse n'ibindi.

Amashuri abanza agomba gushyirwamo imbaraga cyane kandi abana bakigishwa neza, aho abana batangira kwigishwa uko bashobora kuba bashushanya, bagaca imirongo y'ubwoko butandukanye, bakamenya kubara, gusoma no kwandika.

Amashuri yisumbuye ni ingenzi cyane kubera yuko afasha abana kwiga ku bana bo ubwabo, bakabana bishimye banezerewe kandi bafashanya, ikindi kandi bituma bagira imitekerereze yagutse, ishobora kuba yabafasha kuba bahitamo, icyo bazaba mu gihe kizaza.

Amashuri yisumbuye afasha abanyeshuri kubona ubumenyi butandukanye, aho bagira imitekerereze yagutse, bakiga kubana n'abandi, kugira ikinyabupfura n'isuku, ariko kandi bakanatekereza neza ku cyo bazaba cyo mu minsi izaza.

Amashuri yisumbuye ni ingenzi cyane kubera yuko afasha abanyeshuri gusobanukirwa ibintu byinshi bitandukanye, ndetse no kuba bakwicara bagatekereza neza icyo bashobora kuzaba cyo ejo ariko babikesheje ibyo bari kwiga ako kanya.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, ni ngombwa yuko bagira ubumenyi kuri mudasobwa. Ndetse n'ikoranabuhanga muri rusange, kubera yuko bizabafasha mu buzima bwa buri munsi ndetse bikabafasha no kujya bamenya, aho isi igeze.

Amashuri yisumbuye agira umumaro munini cyane mu kurera abana kubera yuko abana batangira kwiga kubana n'abandi neza kandi mu mahoro, ikindi kandi bakagira imitekerereze yagutse, bakamenya n'ubumenyi butandukanye bushobora kubafasha kuba bahitamo icyo bazaba mu minsi izaza.

Mu mashuri yisumbuye hakorwamo igikorwa cyo kwibuka, hagamijwe kugira ngo abana babatekerereze neza amateka y'igihugu ndetse habeho no kuba bakwigishwa neza uburyo Jenoside yakomeza kuranduranwa n'imizi yayo.

Amashuri yisumbuye agira umumaro munini cyane ku bana, aho abana babona ubumenyi butandukanye harimo kuba bamenya gukoresha neza mudasobwa na murandasi, ikindi kandi bakamenya gutekereza byimbitse cyane, bakamenya no kuba bakwifatira imyanzuro y'icyo bazaba mu minsi izaza.

Amashuri yisumbuye ni ingenzi cyane, aho abana bayagannye barushaho gutinyuka ndetse bakagira n'imitekerereze yagutse, bakarushaho kugira isuku, bakiga kubana n'abandi, ndetse bakanasobanukirwa neza uburyo bashobora guhitamo icyo bazakora mu gihe kizaza.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye biga ibintu byinshi bitandukanye, aho bashobora kuganirizwa n'abayobozi babo, ibigendanye n'uko bagomba kubana n'abandi cyangwa se uburyo bagomba kwaguramo imitekerereze, bakamenya neza bakanasobanukirwa neza icyo bazaba cyo mu gihe kizaza.

Mu mashuri yisumbuye abanyeshuri baba bicaye batuje, bakurikiye, bumva neza ibyo mwarimu ababwira. Ibyo bituma bashobora kuba bakunguka ubumenyi bushya ndetse bakagira n'imitekerereze yagutse Ku Isi ya none.

Mu mashuri yisumbuye hajya hatangwamo ibihembo bitandukanye ku banyeshuri cyangwa se ku kigo igihe hari nk'amarushanwa bitabiriye ariko bakaza kuyatsinda, icyo gihe bashobora kuba bahembwa ibihembo bitandukanye harimo nk'imidari ndetse n'ibikombe.

Amashuri yisumbuye afasha abanyeshuri kwiga ibintu byinshi bitandukanye, aho bashobora kuba bakwisobanukirwa ubwabo ndetse bakagira n'intekerezo zagutse, zishobora kubafasha kuba bakwihitiramo icyo bazaba ndetse n'icyo bazakora mu gihe kizaza.

Amashuri yisumbuye ni ingenzi cyane kubera yuko afasha abana kwiga ibintu byinshi bitandukanye, harimo kubana n'abandi kandi mu mahoro, harimo gufashanya, kugira isuku, ikindi kandi bakabona n'ubumenyi bushobora kubafasha gutekereza cyane bibaza icyo bazakora mu gihe kizaza.

Amashuri yisumbuye ni ingirakamaro cyane aho usanga abanyeshuri benshi batandukanye nyuma y'uko barangije amashuri abanza bakomeza amashuri yisumbuye bityo bikabarinda kuba baba ibirara kandi bakabona n'ubumenyi bwinshi butandukanye, harimo ubugendanye na mudasobwa ku bana n'abandi ndetse no guhishurirwa ibigendanye n'umuhamagaro wabo n'ibyo bifuza kuzaba ejo .

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bagomba kuganirizwa n'abayobozi babo, bakabaganiriza uburyo ki bagomba kubana hagati ubwabo ndetse n'uburyo ki bagomba kugira imitekerereze yagutse, batekereza neza kuri ejo hazaza habo ndetse banirinda bagira n'indangagaciro nzima z'abanyarwanda.

Gusoza kwiga amashuri ya kaminuza biranezeza cyane, aho usanga abashoje kwiga ku munsi w'ibirori byabo baba bishimye, banezerewe bibuka neza urugendo rw'amashuri banyuzemo.

Gusoza kwiga kaminuza biranezeza cyane. Aho usanga ku munsi wo kwizihiza ibirori byabo byo kuba barangije kwiga, baba bishimye banezerewe cyane, bibuka inzira n'urugendo rwo kwiga banyuzemo, bitari byoroshye.

Amashuri y'imyuga ni ingenzi cyane kuko adufasha kwiga neza uburyo twakwihangira imirimo tudategereje ko leta iduhereza akazi. Niho usanga bamwe biga kudoda, abandi bakiga kubaza, abandi bakiga ibigendanye n'amashanyarazi no gukora mu mazi kugira ngo tuvaneho inzitwazo zo kuba twaguma mu bushomeri.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare, ryubatse neza. Aho igizwe n'ubusitani bunini, butuma abanyeshuri baruhuka. Ikindi kandi ifite n'ibyumba byinshi bitandukanye ku buryo abanyeshuri biga nta kubyigana.

Kaminuza aho ziba hose zirangwa no kuba zubatse neza zifite ubusitani buteyemo ibiti n'indabo, aho abanyeshuri bashobora kwicara bakaruhuka bagafata akayaga bikabafasha no gutekereza neza, ikindi kandi harangwa n'isuku ikomeye cyane kuko hahora hasa neza.